Umugabo wambaye imyenda ipfutse no mu maso no ku munwa, amaboko nayo arapfutse arimo gushyira umuti ku gihingwa, ni ubuhingwa bihinze mu buryo buteye murongo.

Abagabo babiri barimo gutera umuti igihingwa. Ni abagabo b'abazungu, barimo gutera igihingwa umuti, aho birinda udusimba twica ibibabi ku bimera cyangwa nanone imiti ikaba ivura izindi ndwara nyinshi ziboneka mu bihingwa.

Umudamu urimo gutera umuti imyaka, ni imyaka imeze nk'ibigori aho batera umuti mu bigori kugira ngo wice ibisimba biba byaragiye mu kigori no kugira ngo bitume ibibabi by'ibigori bimera neza.

Umugabo uhetse igikoresho mu mugongo gishinzwe gufasha kumufasha gutera umuti, arimo gutera umuti igihingwa wa k'inyanya, ituma ibihingwa bimera neza cyangwa bigatuma amababi amera neza.

Umugabo uhetse igikoresho kirimo umuti. Ni umuti arimo gutera ibihingwa. Umugabo umwe uri mu murima w'ibihingwa arimo gutera umuti. Uyu muti ukunze kugira uruhare mu gutuma imyaka yera neza, cyangwa igatuma ibibabi bimera neza, aho uyu muti ukuraho udusimba twica ibibabi.

Umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti ibihingwa. Arimo gutera umuti ibigori. Akenshi ibigori bikunze guterwa n'ibisimba bijyamo bigatuma ibibabi byangirika kandi ibigori bikanagwingira. Uyu muti rero ufasha kwica ibyo bisimba bijya mu bigori noneho ibigori bikagira ibibabi bimeze neza kandi bigakura vuba.

Ibinogo byinshi bicukuye ahantu mu gishanga, bikaba bicukuye mu buryo bugezweho kandi bwiza aho hakorerwamo umushinga wo kuroreramo ibinyabuzima bikurira mu mazi, akenshi bakunda kuroreramo amafi, aho bashyiramo ingemwe z'amafi noneho zigakura, umugabo arimo gushyiramo ingemwe.

Ahantu hateguye neza bacukuye ibinogo kandi barahubakira neza, hakunda kubera ubworozi bwo mu mazi, aho bakunda korora nk'amafi cyangwa ibindi binyabuzima byo mu mazi nk'indagara cyangwa insambaza, aha ngaha bashyiramo ingemwe z'ibinyabuzima bigakuriramo, mu cyongereza babyita acquatic.

Umugabo afite ifi nini mu ntoki. Ni ifi yarobye, cyanecyane zino zirobwa ahantu baba barazororeye.

Umuntu uri ahantu bahinga umuceri, impande yaho bacukuye ikinogo bashyiramo amazi, hariho bakunze kororera amafi, afite amafi yarobye menshi ari ku kagozi, aya mafi akunze kwitwa ibihuta.

Ahantu bacukuye ibinogo bagashyiramo amazi, aho abantu bakunze korora amafi bakunda kuyashyira kugira ngo yororuke. Hari umuntu wahagaze ufite igikoresho cy'umutuku, arimo gutunganya kugira ngo ahantu yakoze igikorwa cy'ubworozi bw'amafi bikomeze kugenda neza.

Abantu babiri bari mu murima w'icyayi barimo kugisarura, bafite igikoresho mu mugongo bifashisha mu gushyiramo umusaruro w'icyayi, ni ahantu heza heze icyayi hepfo yaho gato hari ibiti by'inturusi.

Igihingwa cy'ikawa ni igiti kimwe kiriho ikawa zeze n'iziteze, ikawa yeze irasa umutuku noneho ikawa iteze irasa icyatsi, iyo ikawa yeze isa umutuku wayisarura noneho ikagurishwa ikajyana mu ruganda gutunganywa kugira ngo ivemo ibindi yagenewe gukora.

Umudamu uri mu murima w'umuceri. Ni ahantu mu kibaya hari umuceri mwinshi. Hakurya yaho hari umusozi urimo ibimera bitandukanye, ndetse n'ishyamba. Umudamu yambaye umupira w'umuhondo, arimo kwita ku muceri.

Abantu harimo abadamu n'abagabo bafashe mu ntoki ikawa, ni ikawa zeze kandi imbere yaho hari imifuka bameze nk'abantu bagiye kuzigurisha bakaba bari kwerekana ko izo kawa ari nziza kandi ari nzima.

Abantu barimo gutora ikawa, ikawa kimwe mu bihingwa ngandurabukungu kandi akaba ari bimwe mu bihingwa mu gihugu cy'u Rwanda cyohereza hanze mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga, igicuruzwa cy'ikawa aho bazisaruye bakaba barimo kuzitora kugira ngo havemo ibihuhewe cyangwa imyanda, maze babone kugurisha ikawa nzima.

Abantu bari mu gihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu u Rwanda rufite ni ibihingwa by'ikawa batemye kugira ngo byongere bishibuke bigire ibibabi byiza. Ni ikawa ikiri ntoya ntago yasarurwa hazacamo igihe kugira ibashe kwera harimo abantu batatu barimo kuyitaho.

Imisozi n'ibibaya kandi ihinzemo igihingwa kimwe, imisozi imeze itya irimo igihingwa cy'icyayi, nicyo gikundwa guhingwa ahantu hameze gutya, ni icyayi kimeze neza kandi kiri ahantu hitaruye.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro yu'bururu, ahagaze mu gihingwa cy'ikawa, aho ikawa zatemwe cyangwa zikaba zikiri ntoya zarashibutse zirimo kuzamuka, ni ikawa zitaragera mu kigero cyo gusarurwa inyuma ye kandi hari urutoki.

Ikawa nyinshi hariho kuri ibyo biti by'ikawa hariho ikawa zeze n'iziteze, izeze zirasa umutuku iziteze zirasa icyatsi. Ni ahantu kandi inyuma yaho hari ishyamba rinini. Akenshi izeze zisa umutuku barazisarura bakazigurisha noneho iz'icyatsi bagategereza na zo zigasa umutuku.

Igihingwa k'icyayi gihinze ahantu hanini ni ahantu ku musozi yitaruye hagengwa k'icyayi aho hepfo yaho gato hari ishyamba no hakurya yaho hari icyashyamba rinini ndetse n'imisozi.

Umudamu wambaye umupira w'umutuku, ari mu murima wenyine, arimo gusarura icyayi. ni icyayi cyeze kandi uyu mudamu afite n'igikoresho ari kwifashisha mu gushyiramo umusaruro w'icyayi. Ari wenyine nta wundi muntu bari kumwe.

Ikawa yasaruwe ikaba iri mu ntebo, iyo ikawa yeze iba isa umutuku iyi ngiyi ireze yasaruwe aho iba isigaje kujyanwa kugurishwa kugira ngo bazitunganye bavanemo ibyo zagenewe gukora. Iyo ikawa iteze yo iba isa icyatsi ariko iyi ngiyi yeze yo irasa umutuku.

Ahantu hitaruye kandi hameze neza. Ikirere ntabwo kimeze neza, imvura irashaka kugwa. Abantu bari mu murima w'icyayi barimo gusarura. Ni abantu bane kandi bambaye impuzankano yose isa, iy'isengeri y'umuhondo. Bafite n'ibikoresho basaruriramo inyuma mu mugongo umusaruro w'icyayi.

Umusaruro w'ikawa ni ikawa zasaruwe maze zigashishurwaho bya bishishwa biba bisa umutuku nyuma zikanikwa none ubu zarumye ni ikawa zitunganyije neza ziba zarasojwe gutunganywa.

Amakarito arimo imiti y'amatungo, ni imiti y'amatungo atandukanye harimo nk'ihene, inka, inkoko n'ingurube ndetse n'ayandi matungo, imiti kandi iri mu makarito ni amakarito y'icyatsi n'umutuku, amakarito y'icyatsi n'umweru, amakarito ari mu yandi mabara.

Umuti w'amatungo ni umuti uri mu ndobo ushushanyijeho amatungo atandukanye nk'ihene ndetse n'andi matungo matoya, ku ruhande gato hari uwundi muti uri mu kadobo k'umweru.

Abantu bari mu nzego z'umutekano, harimo umusirikare ndetse n'umupolisi. Bari mu gikorwa cyo gutera igihingwa, inyuma yaho hari abandi bantu basanzwe, bari kumwe.

Ahantu bororera inka kandi ha kijyambere. Abantu barimo gukama inka, bari gukamisha amaboko yombi aribyo bita kuvuruganya. Ni umugabo umwe wambaye igisarubeti cy'ubururu n'undi imbere ye nanone urimo gukama uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abantu bari mu murima uhinzemo ibishyimbo, ni ibishyimbo bimaze gukura kandi byatangiye kuzana ururabo, ni abadamu bari mu gikorwa cyo kubagara ibishyimbo kugira ngo bakuremo ibyatsi, noneho ibishyimbo birusheho gukura neza.

Ahantu hitaruye harimo ibimera bigufi ndetse n'ibirebire. Harimo inyamaswa y'agasozi yitwa imparage. Ikunze kuba isa umukara n'umweru. Ni inyamaswa zikunda gukura ba mukerarugendo. Zikunda kuboneka mu gace k'Akagera mu burasirazuba.

Umuntu uri munsi y'inka arimo kuyikama, ni uburyo bwo gukama umuntu avuruganya cyangwa akoresha amaboko yose, ni inka imeze nk'inzungu, arimo kuyikama aho havamo amata ashobora kunywebwa ari ikivuguto cyangwa bakayanywa akiri inshyushyu, ikindi kandi amata ashobora no kuba yavamo amavuta y'inka mu gihe bayacunze.

Ishyo ry'inka zororewe hamwe ni inka zororerwa mu rugo aho batajya kuziragira, ahubwo zikaguma mu rugokaba ariho bazahirira ubwatsi bakazizanira. Ni inka harimo izisa umukara n'ikigina kandi zose n'inkungu nta mahembe zifite, zirimo kurisha zirimo kurishiriza ahantu habugenewe aho aho zirishiriza n'aho ziryama haba hatandukanye.

Igihingwa cy'imyumbati cyegereye ibindi bimera bitandukanye. Umwumbati ukunda guhingwa habanje guhingwa amayugi, bagateramo igiti cy'imyumbati ukavamo umwumbati w'umuribwa cyangwa uvamo ubugari.

Ibihingwa bitandukanye byegereye umuhanda wa kaburimbo, aho uwo muhanda wa kaburimbo urimo n'amatara amurika nijoro kugira ngo birinde ibinyabiziga impanuka. Ibyo bihingwa byegereye umuhanda wa kaburimbo harimo nk'urutoki, ibigori ndetse n'inturusu.

Igihingwa cyitwa ikirayi, ni ibirayi byeze neza, akenshi ibirayi ikunda kuvamo ibintu bitandukanye, aho wabitekamo mu buryo butandukanye, ifiriti, imvange ndetse n'ibindi.

Igihingwa cy'umwumbati, imyumbati ihinze ahantu hamwe, akenshi imyumbati ikunda kwerera igihe kingana n'umwaka, aho ivamo umusaruro w'imyumbati, ikaba yavamo ubugari, kandi ukaba wavamo igiti cyawo kikaba cyakongera kikavamo imbuto bakagitera.

Igihingwa cy'urutoki, urutoki rutare rwinshi ariko rwegeranye kandi harimo n'ibindi bihingwa nk'imyumbati, aho urutoki rutanga umusaruro utandukanye harimo ibitoki byengwa bikavamo umutobe, ibiribwa ndetse n'ibivamo imineke yo kurya, hepfo y'aho hari ahantu hameze nk'ishyamba.

Igihingwa k'igisheke, akenshi ibisheke ntabwo bikunda kuboneka ku gasozi bikunda guhingwa ahantu hameze nk'igishanga, ibi bisheke rero biri igasozi kandi byegeranye n'insina ndetse n'inzu z'abaturage, aha ngaha ibisheke bikunda kuvamo isukari cyangwa umutobe.

Iki kimera kiri mu cyiciro cy'imboga, ni imboga Abanyarwanda bakunze kwita urubwija, ntago rumeze nka zimwe zitwa dodo, ahubwo ni uruboga ruba rujya gusa icyatsi, ariko rurimo n'amabara y'umutuku, abantu bamwe bararurya abandi ntago barurya.

Igihingwa cy'ibirayi, ni ibirayi bitatu bituruka mu musaruro w'ubuhinzi, ibiyi bikogoshwa mu buryo butandukanye, cyane cyane mu buryo babiryamo, hari ababirya mu mvange, hari ababirya na none bitetsemo ifiriti cyangwa bagakoramo ibindi bintu bitandukanye nk'ibiraha.

Umuririma urimo ibihingwa bitandukanye. Harimo n'igihingwa cy'imyumbati, hakabamo igihingwa cy'ibigori ndetse hakabamo n'urutoki cyangwa igihingwa cy'insina. Harimo n'ibindi bimera bitari ibihingwa, ariko ibyiganjemo ni ibyo bitatu.

Ahantu mu gishanga, harimo igihingwa cy'umuceri. Ni ahantu haringaniye kandi hanini, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukabukira inyoni, kugira ngo zitarya umuceri . Ni umuceri umeze neza kandi uri hafi kwera.

Igihingwa cyitwa uruboga cyangwa dodo ni igihingwa gikunda guhingwa mu rugo mu turima tw'igikoni cyangwa mu mirima isanzwe. Dodo yareze kandi ifite n'imbuto aho izi mbuto bazanika bakaba baziteramo zikavamo izindi mboga.

Igihingwa cy'imyumbati ni ahantu hahinze imyumbati kandi igiye itandukanye. Imyumbati ivamo ibintu bitandukanye, hari abakoresha ibibabi bakabitekamo nk'isombe, cyangwa se bagafata imyumbati yeze bagakoramo ubugari.

Igihingwa cy'umuceri umuceri weze, umuceri ukunda guhingwa mu gishanga ahantu haba harimo amazi aringaniye uyu muceri rero ureze ugeze igihe cyo gusarurwa, akenshi bakunda gushyiramo ibintu bituma inyamaswa nk'inyoni zitaza kurya.

Ibihingwa by'ibigori ni ibigori biri mu kigero kiburaho igihe gito ngo byere, akenshi bikunda guhingwa mu itumba cyangwa igihe cy'umuhindo, ibigori biri hafi kwera kandi bikora ibintu bitandukanye harimo nko kuvamo igikoma, kubyotsa bisanzwe cyangwa kawunga.

Umuntu w'umuzungu afite ibiribwa mu ntoki. Akenshi ibi biribwa afite birimo imbuto ndetse n'imboga. Afitemo ikiribwa cyitwa karoti, umwembe, pavuro ndetse n'ikindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amakaroni, harimo ubwoko bubiri amaremare ndetse n'amagufi, udutambaro two guhanagura ku meza ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye aho babyegereza abaturage kugira ngo babigure batagiye ahantu kure.

Urutoki rwegereye urugo, insina imwe niyo ihetse igitoki. Izindi ntabwo zihetse igitoki, ni insina zegereye urugo. Aho igitoki gikoreshwa ibintu bitandukanye harimo no kutaramo imineke kugiteka cyangwa kugikuramo umutobe.

Umusaruro w'ibihingwa by'imboga, izo mbuga harimo inyanya, ubutunguru, imeteja ndetse na dodo, aho byasaruwe bikaba bigiye kujyanwa ku isoko kugurishwa.

Imyumbati ariko ihinze mu buryo butatanye hamwe hagiye hahinze kandi hari ibikenyeri hameze nk'ahantu hahinzwe amasaka, harimo imyumbati iteye mu buryo bw'amahunge, hepfo y'aho gato harimo ibiti bimeze nk'ibya gereveriya ndetse n'urutoki.

Ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye. Mu biribwa harimo: ibigori, ibirayi, inyanya ndetse n'imbuto, harimo: amacunga, indimu ndetse n'ibindi. Harimo n'ibinyobwa nk'inzoga ndetse n'icyayi.

Urwuri rw'inka ahantu inka zirishirizaho umuntu aba afite cya yararaguze hitaruye agashyiramo inka zikarisha harimo rero inka ebyiri zirimo kurisha aho akenshi zikunze kuboneka mu karere kacu ka Nyagatare aho umuntu aba afite inka nyinshi agakora urwuri akajya aziraragiramo.

Ibihingwa byinshi biri mu gace kamwe, ni ahantu hitaruye kandi hari urutoki, ni urutoki ru mu byiciro bibiri, rumwe ruri hakuno, urundi ruri hakurya, ahantu hari n'ikibaya mo hasi harimo ibindi bihingwa bitandukanye, inka iri hafi yaho irimo kuririsha.

Igihingwa cy'ibijumba, gifite imigozi z'icyatsi ariko imigozi ntabwo ikura ngo ijye hejuru cyane ahubwo rarandaga ku butaka. Umusaruro w'ibijumba, uboneka mu mayogi. Nyuma yo guhinga ibijumba, aharunda amayogi noneho agatera n'imigozi ikazereramo ibijumba.

Imirima myinshi ihinzemo umuceri kandi irimo na kadahumeka zibuza inyoni kuza kurya umuceri, ni ahantu hari ikibaya kinini gihinzemo umuceri kandi ugiye kwera, hakurya yaho hari umusozi kandi utuyeho abantu.

Igihingwa cyitwa ikigori, ubusanzwe ibigori byera bisa umweru mu muhondo. Ibigori byo birasa umuhondo aho bikorwamo akawunga nako kakaza gasa umuhondo. Abanyarwanda bakunze kutita mu ndimi z'amahanga patejoni. Ni ibigori bisa umuhondo bikavamo n'akawunga k'umuhondo.

Ishyamba ririmo ibiti binini kandi birebire, ni ishyamba rikunze kuboneka ahantu ho muri Nyungwe cyangwa muri Gishwati, ni ishyamba rinini kandi rigiye ririmo imisozi n'ibibaya.

Ishyamba rinini ariko ritarimo ibiti birebire cyane. Ibyo biti kandi bigiye bitatanye, aho iryo shyamba riri mu misozi ibiri. Ikirere kimeze neza kandi nta zuba ririmo kuva.

Ishyamba ririmo ibiti binini cyane ni ibiti byirari binini kandi bigoramye kandi bijya kwegerana cyane. Ibiti bimeze gutya bikunda kuboneka ahantu hari ishyamba rya kimeza nko muri Nyungwe, Gishwati, ndetse n'ahandi, kandi akaba ari hamwe mu mashyamba akunze kubamo inyamaswa zitandukanye zinakurura ba mukerarugendo.

Ishyamba ririmo ibiti bitatanye harimo ibiti byakuze cyane n'ibikiri bitoya, ni ahantu wavuga ko ari heza kuko ntabwo ari rya shyamba riba ryegeranye cyane riba riteye ubwoba.

Ishyamba rinini cyane kandi rigiye ririmo imisozi n'ibibaya, ni ishyamba ryegeranye rimeze nka kimeza, ni urugero nka rumwe mu mashyamba atuye hano mu Rwanda harimo nka Nyungwe cyangwa Gishwati.

Ishyamba ryatemwe, ibiti byatemwe, birakokorwa. Igice kimwe bagitemye ibiti barabitsemba bamaraho, ikindi ishyamba riracyahari. Ni ibiti bakokoye bameze nk'abagiye kubicana cyangwa kubyubakisha.

Ahantu hari indabyo nyinshi ndetse hari n'amatente akunda kuberamo ibirori bitandukanye, hari indabo ngufi ndetse n'izabaye ndende zikaba zarakoze akantu kameze nk'ishyamba. Akenshi ahantu hakunze kuba habera ibirori aho abantu bahakodesha bakahifotoreza cyangwa bakahakorera nk'ubukwe.

Ishyamba ibice by'ibimera biri ahantu hamwe byafatanye bimeze nk'ishyamba kandi hakaba harimo ikiyaga gitoya ahantu hari amazi yiretse kandi menshi, ni ahantu hameze nko ku musozi imvura irashaka kugwa ikirere kimeze nabi.

Umuntu uri mu bihingwa byahinzwe by'imboga, imboga za kijyambere zahinzwe ku murongo, aho umuntu yakoze umushinga wo guhinga imboga gusa, imboga ziri ahantu hanini kandi umuntu arimo kuzisarura yambaye umupira w'umutuku n'ipantaroy'ikoboyi y'ubururu.

Umuntu uhagaze mu murima w'amashuri. Ni amashu atarera ariko ameze neza. Amashu ahinzwe mu buryo bwa kijyambere kandi mu buryo buri ku murongo. Amashu nka kimwe mu bikoresho byifashishwa nk'imboga cyangwa mu bihingwa by'imboga.

Umubyeyi umwe afite umwana arimo kumwonsa, undi mubyeyi afite indobo arimo kuvomerera imboga. Ni ahantu bahinze imboga za kizungu. Aho barimo kuzivomera kugira ngo zirusheho kumera neza.

Abantu batatu bari MU murima uhinzemo amashu. Buri muntu wese afite ishu mu ntoki. Harimo abadamu babiri n'abagore babiri. Ni ahantu hahinze amashuri kandi ayo mashu areze nka kimwe mu bihingwa gandurarugo nk'imboga.

Ahantu hahinze igihingwa cyitwa inanasi, inanasi zihinze neza kandi zihinze ku murongo. Ni ahantu haringaniye. Inanasi nka kimwe mu bihingwa by'imbuto. Ni gihingwa cyiza kiri mu kigero cyiza, kiri hafi kwera.

Isoko ry'imboga. Aho harimo imboga zitandukanye nk'intoryi, pavuro, inyanya, amashu ndetse n'ibindi. Aha umucuruzi ajya kubirangura aho bihingirwa mu murima, akabizana ku isoko kugira ngo abyegereze abakiriya.

Ibihingwa by'imbuga biteye ku murongo, biteye mu buryo buriringaniye, aho umuhinzi aca akantu kameze nk'amayugi agateraho imboga, harimo n'uburyo bwiza bwo kubivomerera, kugira ngo bibashe gukura neza.

Ibihingwa biteye ku murongo, barimo kunyuramo kandi amatiyo, aya matiyo yifashishwa mu buryo bwo kubivomerera, akenshi kuvomera bigezweho ntago abantu bajya mu myaka kugira ngo bayivomerere, ahubwo aya matiyo aba afite imyegi igiye itandukanye bakoherezamo amazi kugira ngo avomererere ino myaka.

Umugabo uri mu murima w'amatunda arimo gusarura. Amatunda ahinzwe neza mu buryo bugezweho, aho bashinze ibiti kugira ngo amatunda azajya akuriraho. Umuntu wayahinze rero arimo kugenda asarura amatunda yeze.

Imyaka ikiri mito irimo kuvomererwa. Irimo kuvomererwa hakoreshejwe uburyo bugezweho. aho banyuza amatiyo mu mirima noneho ayo matiyo bagafunguramo amazi agahita agera ku bihingwa, bitagombye gukenera umuntu ugomba kujyamo, akandagira mu myaka avomera.

Umuntu ari kuvomerera akoresheje umugozi cyangwa itiyo izana amazi, aho wacomeka kuri moteri umugozi noneho ukazana amazi ukegereza umurima, aho umuntu avomerera amazi atagombye kujya kuyavoma n'intoki.

Umugabo urimo kuvomerera imyaka, arimo gukoresha uburyo bwiza aho afata itiyoza n'amazi, moteri ikayakugota ikayazana muri iryo tiyo ikageza aho umurima uri, arimo kuvomerara imyaka itarakura neza yambaye ingofero n'agapfukamunwa.

Ibihingwa bihinze ku murongo. Ni ibihingwa bihinze ku buryo bugezweho, aho barimo kuvomerera mu buryo na none bugezweho. Aho bashyira amatiyo mu bihingwa hagati noneho bakarekura amazi akagenda anyanyagira ahantu hari ibihingwa kandi bikagera hose.

Umwana urimo kuvomerera imyaka, icyogengwa ari kuvomerera ni ibigori aho bari gukoresha itiro izana amazi atagombye kujya kuyivomera, afite moteri irigukogota amazi ikayazana mu murima noneho we akavomerera. Inyuma ye kandi hari undi muntu uhagaze inyuma yabo hari ibindi bigori byakuze ndetse n'inzu.

Ibihingwa bihinze ku murongo birimo kuvomererwa hikoresheje uburyo bwa kizungu cyangwa uburyo bugezweho, aho bashyira amatiyo bakanyuza mu murima, bakenera kuvomerera bakavomera batagombye abantu bajyamo kugira ngo bavomererere.

Umudamu arimo guhinga ahantu hameze nko mu gishanga, akenshi hakunda guhingwa imboga, aho arimo guhinga imbere ye hari ibindi bimera bikiri bitoya kandi impande ze hari ibindi bihingwa byakuze.

Imyaka ihinze ku murongo, kandi ifite n'uburyo bwovomerera bugezweho, aho bashyira amatiyoyo mu murima mo hagati, noneho akajya avomerera imyaka hatagombye kuzamo abantu ngo bayivomererere.

Umugabo arimo kuvomerera ibihingwa, arimo gukoresha uburyo bugezweho aho adakandagira mu myaka ahubwo ahagarara hamwe akavomerera akoresheje itiyo, yifashisha itiyo iba icometse kuri moteri izana amazi iyakura ku isoko, iyazana ahantu hari ibihingwa.

Umuntu urimo kuvomerera imyaka. Ni imyaka imeze nk'inyanya. Arimo kuvomere akoresheje itiyo y'amazi aho acomekaho moteri akayijyana ahantu ku isoko, noneho moteri igakogota amazi iyazana aho ibihingwa biri. Akabivomerera atagombye kujya kuvoma amazi mu ntoki.

Imyaka ihinze neza kandi iteye ku murongo hari n'uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo imyaka bazajye bayivomerera, ni uburyo bwo gufata itiyo bakanyuza hafi y'igihingwa, bacukuyeho utunogo tunyuzuramo amazi, ayo matiyo atwara amazi akayazengurutsa mu mirima hose, ni mu buryo bwo kuvomerera bugezweho.

Umuhungu wambaye imyenda isa, ni igisurubeti cy'ubururu, ndetse bakaba bambaye na bote z'umukara. Umukobwa umwe afashe umugozi urimo amazi arimo kuvomerera imyaka. Ni uburyo bwiza bwo kuvomerera imyaka badakandagiramo, kandi ibihingwa bihinze ku murongo.

Ibihingwa birimo kuvomererwa birimo kuvomererwa mu buryo bugezweho, aho bashyira amatiyo mu murima noneho bakavomerera umuntu utagombye kujya kubyikorera. Ni ubuhinzi bugezweho aho bakoresha ubuvomera cyangwa kuvomera bya kinyamwuga cyangwa mu buryo bwa kizungu.

Ibihingwa birimo kuvomererwa. Ni uburyo bwo kuvomerera imyaka bugezweho aho banyuza amatiyo hejuru noneho bakarekura amazi agana mu bihingwa hasi mu buryo bugezweho aho budasaba umuntu kugira ngo ajyemo akandgire mu myaka ari no kuvomerera. Inyuma kandi y'ahahinze ibihingwa hari ahantu hari umusozi.

Ahantu harimo imisozi igiye itandukanye ndetse irimo amashyamba kandi mo hagati yaho hagiye harimo amazi, ameze nk'ikiyaga, ni amazi yaretsemo hagati y'imisozi igiye itandukanye, kandi iyo misozi iriho ibimera byafatwa nk'amashyamba cyangwa ibindi byatsi bisanzwe.

Ahantu hitaruye harimo udusozi dutoya, imisozi iringaniye ndetse n'imisozi miremire; hagati y'iyo misozi harimo amazi, amazi agiye ari mu buryo bugiye butaguritse, kandi iyo misozi ikaba irimo amashyamba n'ibindi bimera.

Imisozi ye n'ibibaya harimo imisozi myinshi mitoya ndetse n'iminini, hakaba harimo n'ibibaya harimo imisozi, kandi baciyemo amaterasi bahingamo kugira ngo agabanye isuri, impande yaho hari amagare abiri ahaparitse.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, zimwe ziri gutora izindi ntago ziri gutora, ni umushinga wakozwe n'umuntu nka kimwe mu bikorwa ngandurabukungu gikoreshwa mu korora inkoko cyangwa amatungo magufi.

Inkoko nyinshi kandi ziri mu ibara rimwe. zororewe ahantu heza kandi hagezweho, aho harimo amatara. Akenshi izi nkoko zororerwamo hano ntabwo zisohoka bakazizaniramo ibiryo kugira ngo zibashe kubaho. Ni inkoko zikorwa nk'umushinga cyangwa igikorwa ngandurabukungu.

Inkoko ziri gutora. Ni inkoko ziri mu bwoko bumwe kandi zifite amabara y'umukara n'umweru. Baziteguriye ahantu zirimo gutorera. Ni ubworozi bw'inkoko cyangwa ubworozi bwitwa ubw'amatungo magufi.

Umworozi w'inka, ari imbere y'inka agiye kuyikama, ni inka ziba zororwa mu rugo aho ayikama, akenshi iyo inka isaguye amata bayajyana ku ikusanyirizo bakajya bayagurisha.

Ihene nyinshi ziri mu kigero kimwe. Ni ihene zirimo amabara y'umukara n'umweru. Ni ihene ziri mu kigero kimwe kandi zifite amaherena yose y'icyatsi. Buri hene yose igiye ifite iherena. Ziri ahantu hamwe hameze nk'ahantu zororerwa, umushinga wo korora amahene.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, harimo isake n'inkokokazi. Ni hantu bazubakiye bazororera ni umushinga wo korora inkoko, kandi izo nkoko ziba zirimo ari nyinshi zifite n'ibyo kurya, bazanagiramo ibyo kurya zigatoreramo, ntago bazemera ko zisohoka ngo zijye hanze.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe bisa nkaho ariho zororerwa. Ni inkoko zikiri ntoya mu kinyarwanda cyiza zitwa imishwi. Ni nk'umushinga umuntu yakoze akazororera hamwe nko kugira ngo azigurishe cyangwa se azikuremo amagi.

Ishyo ry'inka riri mu rwuri zirimo kurisha, ni inka ziri ahantu harya isambu kinini, akenshi zikunda kuboneka no mu Karere kacu ka Nyagatare, aho umuntu aba afite inka nyinshi noneho akagira urwuri azigiramo, ni inkaya zirimo kurisha kandi ziri ahantu hari ubwatsi.

Inka ziri mu murongo. Ahantu zubakiwe kugira ngo zijye zihahererwa ubuvuzi. Ni ahantu haba hegeranye inka bazitemo inshinge cyangwa bakaziha ubundi buvuzi, ariko zitanyeganyega cyangwa ngo zikubaganye muganga. Hari abaganga barimo kuzitaho. Harimo abambaye ibisurubeti by'ubururu, itabureti y'umweru ndetse n'umushumba.

Ingurube yabwaguye ibyana byinshi, ni ingurube yororewe ahantu heza, yabyaye ibyana byinshi ikaba irimo kubyonsa, ingurube yo yonsa ibyana iryamye ibyana byo bikayonka iryamye.

Umuntu urimo gutunganya umusaruro w'ibigori ni ibigori byavovowe ariko bitaravungurwa barabanza bakabyanika, hari ahantu hitaruye kandi hanini hari ibigori byinshi yabyanditse kugira ngo izuba ribigereho ni byuma bazabivungure.

Umusaruro w'ibihingwa bitandukanye ni ibihingwa bari mu bwoko butatu, harimo ibihingwa by'ikigori, ibihingwa bya soya ndetse n'ibiwagari, umusaruro ubarwa mu musaruro w'imbuto.

Umubyeyi uri gutunganya umusaruro w'ibigori. N'ibigori byeze noneho barabivovora. Bikaba biri kumwe n'ibititiri barimo kubyandika kugirango ngo n'ibyuma bazabivungure. abirambuye kuri shitingi arimo kubitunganya iyo byumye barabingura, bakabigurisha bikaba byavamo akawunga cyangwa ibindi bitandukanye nk'igikoma.

Abaganga b'amatungo bari kwita ku itungo, aho barimo kuribaga. Ni abaganga babiri, barimo kuryitaho, aho rimwe barihambiriye kugira ngo ritizunguza rikabangamira ubuvuzi barimo kuriha. Iritungo ni imbwa.

Umuganga w'amatungo arimo kuvura inka, aho inka bayishyize ahantu hatoya itagomba kunyeganyega ngo imwiyake noneho muganga akayivura inka itari kunyeganyeza imigeri, ni umuganga w'amatungo yegereye n'umushumba arimo kumufasha.

Abaganga b'amatungo barimo kwita ku nka, aho bafashe inka bakayishyira ahantu hafunganye kugira ngo itabasha kubabuza kuyivura, harimo abambaye ibisurubeti by'ubururu, ndetse n'undi muganga wambaye ga n'ijire, n'imyenda y'umweru.

Muganga w'amatungo arimo kuvura inka, arimo kuyivura hakoreshejwe uburyo bwo gukora mu nda y'amaganga yayo, aho akenshi babikora barimo kuyibangurira cyangwa hageze ikindi kibazo ku nda y'amaganga yayo.

Ubuvuzi bw'amatungo. Muganga w'amatungo yambaye igisurubeti cy'ubururu, ndetse akaba yambaye na ga mu ntoki. Kugira ngo yite ku matungo y'inka, ayavura. Inyuma ye kandi hari umushumba, wegereye inka zigiye kuvurwa. Umuganga ahagaze mu kayira inka bazinyuzamo kegeranye, kugira ngo abashe kuzitaho, zitarimo kunyeganyega cyangwa gukubagana.

Ishyo ry'inka kandi ziri ahantu habugenewe kugira ngo bazivure. Abantu bagenda bakubaka ahantu inka igomba kujya itinyagambura kugira ngo umuganga w'amatungo abashe kuyivura. Akenshi inka kugira ngo ivurwe ikunda guterwa urushinge, niyo mpamvu bayishyira ahantu hegeranye kugira ngo itabasha kunyeganyega.

Abaganga b'amatungo bari mu cyanya cyagenewe kuvurirwamo amatungo, aho bubatse akantu kegeranye kugira ngo inka nizajya zijyamo bazajye bayivura idakubise imigeri ngo ibababangamire. Umuganga arayegereye arimo kuyitaho. Inyuma ye kandi hari uwundi muntu ndetse n'undi mukobwa ubari inyuma. Inyuma y'aho bari gukorera ubuvuzi, hari ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Inyamaswa y'agasozi yitwa inzovu. Ni imwe mu nyamaswa ziba ari nini cyane kandi zikunda kuboneka mu Kagera kandi izi nyamaswa zikunda kurara ba mukerarugendo, aho bazana amafaranga kugira ngo bazirebe.

Inyamaswa ziri mu bwoko bubiri, imwe isa umukara n'umweru yitwa imparage noneho indi isa nk'ikigina ikitwa isha. Zikunze kuboneka ahantu nko mu kagera ndetse n'ahandi. Akenshi izi nyamaswa zikunda gukurura ba mukerarugendo. Aho abanyamahanga cyangwa abanyarwanda bajya kuzireba, babanza kwishyura amafaranga.

Inyamaswa y'agasozi yitwa impara, iyi nyamaswa ikunze kuba ari ndende cyane, ikunda kuboneka mu Kagera kandi akaba ari imwe mu nyamaswa ikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa z'agasozi zitwa imparage, zikunze kuba zifite amabara y'umweru n'umukara. Imparage nyinshi zirenga enye. Izi nyamaswa zikunze kuboneka mu Kagera, aho zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba.

Ikigo cy'amashuri harimo indabyo zitandukanye ndetse n'ishuri, hagati kandi harimo Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, harimo idarapo rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Inyamaswa y'agasozi ni imwe mu nyamaswa ikurura ba mukerarugendo kandi ikunda kuboneka ahantu ho mu Kagera parike ndetse n'ahandi hatandukanye. Ingwe akaba ari ryo zina ryayo.

Inyamaswa z'agasozi harimo inzovu, impara, imparage, ingagi, intare ndetse n'izindi. Izi ni zimwe mu nyamaswa zikunda kuboneka mu birunga ndetse no mu Kagera. Zikunda gukurura ba mukerarugendo, aho abantu bishyura kugira ngo bage kuzireba.

Inyamaswa y'agasozi yitwa imvubu, iri kumwe n'umwana wayo. Aho zikunda kuba mu mazi zoga kimwe n'ingona. Izi nyamaswa zikunda kuboneka mu migezi itandukanye harimo nka nyabarongo ndetse n'iyindi. Akaba ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo mu Rwanda.